Amazi ni ikintu umuntu akenera mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo agire ubuzima bwiza, amazi rero ashobora kuvomwa ahantu hatandukanye nko mu mariba ndetse n'ahandi, amazi kandi ashobora kuvomwa n'abana batoya abahungu abakobwa cyangwa se abantu bakuru.

Umukobwa wambaye inkweto z'umuhondo n'ipantaro y'umukara n'agapira k'ubururu, afite igitenge mu mugongo ari kuvoma amazi mabi, ku ruhande rwe hicaye umwana wambaye inkweto z'icyatsi.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako, harimo abagabo n'abagore, harimo kandi umugabo wambaye ijire, hakabamo n'umugabo wambaye ikanzu idozwe mu gitenge, kuri iyo nyubako kandi handitseho amagambo mu ibara ry'umweru.

Abagabo batanu bahuriye hamwe, babiri bari kuganira ukwabo n'abandi batatu bakaganira ukwabo. Muri aba bagabo uko ari batanu, harimo abagabo batatu bambaye kositimu hamwe na baje.

Mu cyumba cyo kwa muganga, harimo umugore uri gusuzumwa. Uyu mugore yambaye agapfukamunwa, ndetse akambara n'ingofero. Muri iki cyumba, harimo imashini, ndetse n'ibindi bikoresho bari gukoresha bapima, uyu murwayi.

Covid cumi n'icyenda, ni icyorezo cyashegeshe abantu benshi, aho cyahinduye bimwe mu myambarire y'abantu, aho abantu batangiye kujya bambara udupfukamunwa, kugira ngo birinde kwanduzanya iyo ndwara.

Mu kigo cy'ishuri harimo umwana wambaye ikanzu y'ubururu n'agapira k'umweru, ari kunywa amazi akoresheje intoki, imbere ye hari puberi ifite ibara ry'icyatsi, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Umugabo yambaye umupira w'umutuku akaba yambaye n'ijire ari gusobanurira abantu bamukikije, harimo abana batoya hakabamo n'umugabo uhagaze ndetse n'undi mugabo wicaye, uwo mugabo wicaye yambaye n'ingofero mu mutwe.

Abantu batanu bari kwifotoza bambaye imipira y'ubururu n'ingofero z'umweru, muri abo bantu batanu harimo umugabo umwe n'abakobwa bane, inyuma yabo bantu hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Uburezi ni ikintu gifasha abana kugira ubumenyi butandukanye bitewe n'ibyo bababigishijwe, rero abo bana kugira ngo bagire ubumenyi bukesha abarimu babo baba barigishije kandi bakabaha n'ibikoresho bitandukanye bituma babasha kwibutsa ibyo baba bize.

Umwana wambaye agapira karimo amabara y'umweru, yajyanye na mama we witeze agatambaro mu mutwe k'umweru, yambaye n'ikanzu irimo amabara y'umutuku n'umukara, bagiye gusoroma imboga.

Umugabo wambaye umupira wa oranje n'ipantaro y'ikoboyi, afite ingofero mu ntoki, ari kuganiriza abana. Hari umwana umwe yari ari gusuhuza, uwo mwana yari afite umusatsi mwinshi ku mutwe.

Ibikoresho bikoreshwa mu kuzimyara inkongi y'umuriro, bifite amabara atandukanye, bifite amabara y'ubururu ndetse n'umukara, ahagana hasi kuri buri gikoresho hagiye hari ibara ry'umukara, naho ku mutwe waryo n'aho hakaba hari ibara ry'umukara.

Abantu bagiye kuvoma ari batandatu, harimo abana batanu ndetse n'umuntu mukuru umwe. Bitwaje ibivomesho bitandukanye, harimo amajerekani ndetse n'utubido.

Umugabo wambaye kositime y'umukara na karuvati y'umutuku ndetse n'ishati y'umweru. Akaba yambaye rinete, ari gutanga ikiganiro, iruhande rwe hakaba hari intebe.

Abagabo n'abagore bahuriye hamwe bari kuganira, bicaye ku ntebe bose bateze amatwi, muri abo bagabo harimo umugabo umwe wambaye ingofero, abo bantu bose kandi bafite impapuro mu ntoki.

Abanyeshuri bambaye imyenda isa bose bafite umusatsi mukeya uringaniye bambaye imipira yubururu kuri iyo mipira yanditseho amagambo ayo magambo amwe yanditse mu ibara ry'umukara andi akandikwa mu ibara ryyumweru

Umwana wambaye agapira karimo amabara y'ubururu ndetse n'umukara. Akaba yambaye ikabutura y'icyatsi, akaba afite n'umusatsi mukeya, ari koga mu maso. Uwo mwana kandi ari guseka cyane.

Amakuru agaragara ni uko mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani, twari dufite mirongo itanu na gatanu ku ijana. Mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda, twari dufite mirongo irindwi ku ijana. Mu mwaka wa bibiri na makumyabiri twari dufite mirongo irindwi na gatandatu ku ijana. Mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe, twari dufite mirongo irindwi n'icyenda ku ijana.

Mu nama yahuje abantu batandukanye baturutse mu mpande zitandukanye kandi bataziranye, imbere ya buri muntu hagiye hari urupapuro ruriho amazina ye ndetse n'amazi yo kunywa kandi bakurikiye uri kubabwira.

Abantu bari kwifotoza bambaye amataburiya, muri abo bantu harimo umuntu umwe utambaye itaburiya, muri abo bantu kandi harimo abagore babiri bambaye imyenda y'umutuku.

Abantu bari mu nama bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma y'abo bantu hari icyapa kiriho amabara y'umweru n'ubururu kuri icyo cyapa hakaba handitse amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, iruhande rw'abo bantu hari idarapo ry'igihugu.

Abantu batatu, bari mu cyumba cyo kwa muganga. Harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe. Abo bagore babiri bose ni abaganga, uwo mugabo akaba yaje, kwikingiza Kovid cumi n'icyenda. Abo bantu bose, bambaye udupfukamunwa.

Umugore witeze igitenge kirimo amabara y'umweru n'icyatsi, akaba yambaye umupira urimo amabara y'ubururu n'umweru n'umukara yaje guteza umwana urushinge wambaye agapira k'umweru. Umuganga urikumutera urushinge yambaye itaburiya y'umweru.

Ivomero risize irangi ry'ubururu, rifite aho bavomera babiri, iryo vomero kandi ryaje kuvomwaho n'abantu benshi, harimo abakobwa n'abagore, kuri iryo vomero hatunzeho amajerekani menshi.

Abana benshi bakunze kurwara indwara ziterwa n'isuku nkeya, babitewe no gukinisha amazi yanduye cyangwa gukina n'amazi y'ibiziba, igihe baba bagiye ku mariba ugasanga barimo barayakina na yo bakayanywa, nyamara ayo mazi adasukuye.

Ishusho iriho ikirangantego gishushanyije mu ibara ry'umweru. Icyo kirangantego kiriho inyuguti eshanu zanditse mu ibara ry'umweru. Izo nyuguti eshanu zimwe zanditse ari mu nyuguti nkuru cyane izindi zikaba ziri mu nyuguti zisanzwe.

Ikirangantego k'ikigo k'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura kiri mu ibara ry'ubururu n'ibara ry'icyatsi amagambo yacyo yanditse mu ibara ry'icyatsi n'ubururu.

Abantu bari gufata ifoto y'urwibutso bamwe baricaye abandi barahagaze, inyuma y'abo bantu hari igishushanyo kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Hari amagambo yavuzwe n'umugore wambaye umupira w'umutuku ndetse ufite umusatsi ku matwi. Ayo magambo yanditse mu ibara ry'umweru, ayo magambo kandi iruhande rwayo hari ifoto y'uwo mugore, uwo mugore kandi yambaye n'amaherene.

Abantu bane bari kuganira harimo abana batatu n'umugore umwe, inyuma y'abo bantu hari ishusho iriho amagambo, ayo magambo ari mu ibara ry'umweru n'aho iyo shusho ikaba iri mu ibara ry'icyatsi n'umweru.

Indwara nyinshi z'inzoka ziterwa no kunywa amazi adasukuye. Nk'uyu mwana ari kunywa amazi aturuka mu mpombo adasukuye, kandi ari kuyanywesha ku ntoki, n'intoki ze zikaba zidasukuye.

Umwana w'umukobwa wambaye ijipo n'ishati ari gukaraba intoki, uwo mwana kandi ariyogoshesheje, uwo mwana yambaye n'ishapure yumweru, imbere ye hakaba hari ibase.

Abagore bafite abana bari guhabwa inyigisho, harimo abicaye ndetse n'abahagaze, abo bagore bari guhabwa inyigisho n'umugabo wicaye yambaye itaburiya y'umweru.

Urupapuro rushushanyijeho imbonerahamwe, iyo mbonerahamwe irimo amagambo ari mu mabara atandukanye, amagambo amwe ari mu ibara ry'umukara andi magambo ari mu ibara ry'umukara werurutse.

Abantu bahuriye hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma y'abo bantu hari inzu yubatswe mu matafari, ikaba isizwe irangi ry'umuhondo, muri abo bantu kandi harimo n'uwambaye inkweto z'umweru.

Igishushanyo kiriho amagambo yanditse mu mabara atandukanye, hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru n'andi magambo yanditse mu ibara ry'icyatsi, andi magambo yanditse mu ibara ry'umuhondo.

Abagabo batatu bahagaze hamwe. Abagabo babiri bambaye amakanzu y'ubururu ndetse aba bagabo bose uko ari batatu, bambaye n'ingofero z'ubururu ariko umugabo umwe muri bo yambaye itaburiya y'umweru. Abo bagabo uko ari batatu bambaye udupfukamunwa dutandukanye. Umwe yambaye agapfukamunwa k'umukara, abandi babiri bambaye udupfukamunwa tw'ubururu.

Turi kwa muganga mu cyumba abana bavurirwamo, muri icyo cyumba harimo umugore uteruye umwana ndetse n'umuganga wambariye itaburiya y'umweru ndetse na ga z'umweru mu ntoki, uyu mwana yakomeretse mu mutwi, uyu muganga ari kumuvura.

Inzu ifite irangi ry'ubururu, hateraniye abantu. Imbere y'iyo nzu kandi hicaye abantu bari kuganira. Muri abo bantu bahicaye hateraniyemo n'Umudaso wambaye imyenda y'icyatsi.

Umugabo wambaye itaburiya yu'umweru, ari kumwe n'umugore ukenyeye igitenge. Uwo mugabo kandi afite ifoto ishushanyijeho abantu babiri. Iyo foto ishushanyijeho umukobwa n'umuhungu.

Umugabo wambaye imyenda irimo amabara y'umweru n'ubururu, ari kumwe n'umugore we wambaye ikote ry'umukara ndetse akaba yambaye n'ibitenge. Bari kumwe n'umujyanama w'ubuzima wambaye itaburiya y'ubururu, ari kubasobanurira.

Isuku ni isoko y'ubuzima. Amazi rero yifashishwa mu kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza kandi akifashishwa kugira ngo umuntu agire isuku. Rero amazi ashobora kwifashishwa mu gihe cyose umuntu akarabye intoki, igihe cyose intoki ziba zanduye. Kandi abana bakunze gukaraba intoki kenshi igihe baba banduye, bagira ubuzima bwiza.

Icyumba kirimo umugabo wambaye itaburiya n'umupira w'umweru n'ipantaro ya kake ndetse n'inkweto z'umweru ari gutanga ikiganiro, abantu bari guhabwa ikiganiro bicaye ku ntebe.

Igihe hari hariho icyorezo cya covid cumi n'icyenda, ibigo by'amashuri byafashe ingamba zitandukanye zo kuyirinda, aho bagiye bashyiraho aho gukarabira, buri mwana wese winjiye mu kigo akajya akaraba mbere yo kugira ngo ajye mu ishuri.

Umugore wambaye imyenda yo mu gitenge, yazanye umwana wambaye agapira k'umweru ku kumuvuza, uwo mwana ari kuvurwa n'umuganga wambaye imyenda yo mu gitenge n'amaherena ndetse n'itaburiya y'umweru.

Mu gihe cya covide cumi n'icyenda, hafashwe ingamba zitandukanye zo kwirinda covide cumi n'icyenda mu Rwanda, muri izo ngamba zitandukanye hari harimo n'uko buri muryango ugomba kugira kandagira ukarabe mu rugo, aho buri wese uturutse hanze agomba kuza agakaraba mbere y'uko agira uwo asuhuza mu rugo.

Umuganga wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara n'agapfukamawa k'ubururu, ari gukingira umugore wambaye ishati y'umweru n'ijipo y'ubururu akaba yambaye n'agapfukamuma k'umweru, ari kumukingira Kovide cumi n'icyenda.

Mu nama yahuje abagore hajemo abagore bafite abana ndetse n'abadafite abana, muri iyo nama kandi hajemo abagore batatu bari bambaye amajire, hajemo n'abagore bambaye ibitenge.

Umugore uvuye kuvoma wambaye igitenge, yiteze igitambaro mu mutwe ndetse yikoreye ijerekani ayikoresheje ingata, iyo jerekani ifite ibara ry'umuhondo n'umufuniko w'umutuku, iruhande rwe hari abana babiri.

Umuntu uri gukaraba intoki ari gukoresha amazi aturutse mu mpombo, ayo mazi ari guturuka mu mpombo ari kuza ari menshi cyane.

Abanyeshuri bambaye unifomu uba usanga basa neza. Abanyeshuri kandi bitaweho neza bagahabwa amafunguro bari ku ishuri bituma biga neza. Hari ibikoresho byinshi rero wakoresha uha abanyeshuri amafunguro, harimo nk'ibikombe ndetse n'ibindi.

Abagabo babiri hamwe n'umugore umwe bari gutanga ikiganiro, abo bagabo babiri bambaye kositimu y'umukara nkaho umugore yambaye imyenda y'umuhondo, inyuma y'abo bantu bari gutanga ikiganiro handitse amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Abantu bagiye mu nama bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu na kake, imbere yabo hari umugore wambaye ikanzu y'umweru n'agakote k'umukara ari kubabwira.

Iriba rifite impombo ebyiri, abantu baje kurivomaho ari benshi, abo bantu bafite ibivomesho bitandukanye hari abafite indobo, abandi bafite amajerekani, abandi bafite utubido.

Hahuriye ababyeyi bafite abana batoya, abo babyeyi bambaye imipira y'umweru, abana bakaba bambaye imipira ya oranje, imbere y'umubyeyi umwe, hari umugabo wambaye amarinete akaba yambaye n'umupira wa oranje.

Turi mu Rwanda aho abaturage begerejwe amazi, ahangaha turabona abaturage bagiye kuvoma, batonze amajerekani yabo ku murongo. Hari kugenda havoma umwe undi agakurikiraho. Muri aba baje kuvoma, harimo abagore hakabamo n'abana.

Abagabo babiri bari gutanga ikiganiro bambaye ikositimu zifite amabara atandukanye. Imbere yabo hari amakaye yo kwandikamo ndetse n'amacupa y'amazi. Iruhande rwabo hari idarapo. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu mabara y'umweru n'umukara.

Inzu imbere yayo hari idarapo ry'ibendera ry'igihugu, hakaba hari itente. Hateraniye abantu benshi, harimo abagabo, abagore bambaye imyenda itandukanye, harimo abambaye amakositimu, abambaye ibitenge ndetse n'abandi bambaye amajipo.

Abagore bambaye imyenda ifite amabara atandukanye ari yo umutuku icyatsi umukara n'ayandi, abo bagore bateze amaboko bari kubyina, iruhande rwabo hari intebe z'umweru.

Sida ni indwara mbi cyane, aha ngaha dufite umuganga wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, afite telefone mu ntoki n'igitabo ari gusobanurira umugabo wicaye iruhande rwe ibijyanye na sida, inyuma yabo hari icyapa cyanditse ngo: "Sida iracyahari duhaguruke tuyirwanye".

Abana babiri bicaye bambaye imyenda itandukanye, umwe yambaye imyenda yo mu gitenge, undi yambaye agapira k'umutuku, abo bana bari gukaraba amazi ari guturuka mu mpombo.

Umuntu uri gukaraba intoki, amazi ari guturuka muri kandagira ukarabe ifite ibara ry'ubururu. Iyo kandagira ukarabe ifite agace bashyiraho isabune. Uwo muntu ari gukoresha isabune y'umweru.

Umugabo wambaye ikositimu y'ubururu ndetse n'ishati y'umweru na karuvate y'ubururu, iruhande rwe handitse amagambo ari mu ibara ry'umukara, hejuru y'ayo magambo handitse amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye ipantaro ya kaki n'ishati ya karokaro. Afite urushinge mu ntoki agiye kurutera umwana wambaye ikanzu y'ubururu. Uwo mwana akaba ateruwe n'umubyeyi we.

Abajyanama b'ubuzima bagira amahugurwa agiye atandukanye. Aba bajyanama b'ubuzima bacu, bagiye mu nama bari guhugurwa bafite ibitabo mu ntoki bari kugenda basoma, bambaye amataburiya y'ubururu ndetse baricaye.

Abana bagiye kuvoma basangayo umugabo wambaye imyenda y'ubururu, bagiye kuvoma bitwaje ibivomesho bifite amabara atandukanye, ariyo umukara, umuhondo n'ubururu.

Abana babiri bagiye kuvoma ku kiyaga, bafite ibivomesho bibiri. Umwe afite ijerekani undi afite akabuni. Aba bana kandi harimo umwana mutoya cyane hamwe n'umwana mukuru.

Abarimu n'abanyeshuri bicaye hasi bari kuganira, abana bambaye imipira y'ubururu abandi bambaye imipira y'umuhondo, abarimu umwe yambaye ikote ry'umukara.

Umugore ukuze, wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'ubururu' n'ijire y'umukara ndetse akaba yambaye na baji mu ijosi, uyu mugore kandi yambaye amarinete, ari kugenda agurisha ibinyamakuru, ibyo binyamakuru bigiye biriho amafoto ndetse n'amagambo atandukanye.

Abajyanama b'ubuzima bambaye amataburiya y'ubururu hamwe na baji zifite ibara ry'ubururu bari gushimira umusaza wambaye ikositimu y'umukara n'ishati y'umweru na rinete.

Abana batandatu bahagaze iruhande rw'ikigega. Bafite ibikombe mu ntoki. Harimo abakobwa bane n'abahungu babiri. Bakaba bambaye n'imipira y'imbeho.

Umwana wambaye inkweto z'ubururu, ikabutura y'umutuku ndetse n'ishati, ari kunywa amazi akoresheje intoki ku iriba, iruhande rwe hari indobo, iryo riba rifite impombe ebyiri, impombo imwe iri kuzana amazi, indi mpombo ntabwo iri kuzana amazi.

Abantu bari gufata ifoto y'urwibutso, harimo abasutamye, abandi barahagaze muri abo bantu harimo abambaye rinete n'abandi batazambaye, iruhande rw'abo bantu hateretse icupa ry'amazi.

Habaye amahugurwa yo guhugurwa ku buryo ki umuntu yakwita k'umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, abantu bahugurwaga bambaye imipira y'ubururu, aho uwabahuguraga yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, abo bantu bose bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu bifotoje bicaye abandi bahagaze, iruhande rw'abo bantu hari ibirangantego bitandukanye harimo n'ikirangantego cy'igihugu. Iruhande rw'iyo foto hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara n'ayandi yanditse mu ibara ry'ubururu.

Mu Rwanda abarwayi barwaye indwara zo mu matwe bajyanwa mu bitaro by'Indera, hano dufite umugore n'umuga bafite umwana w'umukobwa ufite uburwayi bwo mu mutwe, bari kumujyana kwa muganga.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe ari mu cyumba cya wenyine kandi icyo cyumba kirasa nabi, afite umusatsi muke ku mutwe akaba ari gutekereza cyane kandi akaba yambaye ubusa.

Abagore batandukanye, harimo abafite abana n'abadafite abana. Hari umuntu uri kubaho inyigisho, abo bagore bambaye ibitambaro mu mutwe ndetse bambaye imyenda itandukanye, harimo abambaye amasharupe y'ibitenge.

Icyumba kirimo abana bishimye bateze amatwi umuntu ari kubabwira, harimo abana b'abahungu, ababakobwa, harimo abambaye imipira yumutuku, umuhondo ndetse n'andi mabara.

Igishushanyo cy'ibara ry'umweru cyanditseho amagambo atandukanye. Ayo magambo amwe yanditswe mu ibara ry'icyatsi, andi ari mu ibara ry'umweru. Iki gishushanyo kandi kiriho n'Ikirangantego cy'Igihugu.

Abantu babiri bari kuganira, umwe yifubitse isharupe irimo amabara y'umutuku, undi yambaye ipantaro, akaba afite ibisuko ku mutwe, ufite ibisuko ku mutwe ari kuganiriza uwifubitse isharupe irimo amabara y'umutuku, kuko uwifutse isharupe irimo amabara y'umutuku ntabwo ameze neza.

Abantu batandatu, bari kuganira. Harimo abagore babiri, abagabo babiri umukobwa umwe, ndetse n'umwana umwe. Umugabo umwe yambaye umupira w'umutuku, naho abagore babiri bambaye ibitenge.

Igishushanyo kiriho amagambo ari mu ibara ry'umukara, hakabaho n'igishushanyo kiri mu ibara rya oranje, handitseho imibare igiye itandukanye ariyo ibihumbi bibiri na kabiri, bibiri na gatanu, bibiri na cumi, bibiri na cumi na kane na bibiri na bibiri na cumi n'umunani.

Umugabo wambaye inkweto z'umukara, yambaye n'ipantaro y'umukara n'ishati irimo amabara ya kaki n'umukara, ahagaze imbere y'inzu yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Umugabo ukuze wambaye umupira w'icyatsi ndetse ufite amaso atukuye yicaye wenyine ari kurira mumaso ye hari kumanukamo amarira naho mu mazuru ye hari kumanukamo ibimwira.

Abantu bari hamwe, bambaye imyenda itandukanye, bamwe barahagaze abandi baricaye, hari abambaye amakositimu y'umukara, abandi bambaye amashati y'umweru abandi bakaba bambaye imipira y'umukara.

Abantu icyenda bari gufata ifoto y'urwibutso muri abo bantu icyenda harimo abantu batanu bambaye imipira yumukara hamwe numuntu umwe wambaye umupira wumweru nundi wambaye umupira w'ubururu nundi wambaye umupira wa kake inyuma yabo hari imodoka y'umweru.

Inyubako y'ibitaro isize irangi ry'umweru imbere y'iyo nyubako hakaba hari ibyapa bibiri, ibyo byapa biriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru n'ayandi yanditse mu ibara ry'umukara.

Igishushanyo kiri mu ibara ry'ubururu ariho umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, kuri icyo gishushanyo kandi hariho n'amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara. Afite mikoro mu ntoki ari gusobanurira abantu bicaye, imbere yabo hari amacupa y'amazi. Inyuma y'uwo mugabo hari ishusho iriho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku hamwe n'ipantaro, uwo mugabo yambaye inkweto zifunze, akaba yicaye wenyine, yicaye ahantu hari imyanda.

Abantu bahuriye hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso, muri abo bantu harimo abicaye n'abandi bahagaze, inyuma y'abo bantu hariho ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Igishushanyo kiriho amagambo ari mu ibara ry'umukara, nandi ari mu ibara ry'icyatsi, nandi ari mu ibara ry'umuhondo; ayo magambo agiye afite ibisobanuro bigiye bitandukanye. Kuri icyo gishushanyo kandi hariho n'ikindi gishushanyo gishushanyije mu ibara ry'icyatsi, ubururu ndetse n'umuhondo.

Umugore wambaye umupira w'umweru akaba afite umusatsi w'umukara ari guseka, afite umwana uri guseka ufite udusatsi dukeya, akaba yambaye agapira karimo amabara y'umweru.

Umusore wambaye umupira w'umukara, ufite umusatsi mukeya ku mutwe, yifashe mu maso ari mu cyumba wenyine, inyuma ye hari amashusho, ayo mashusho ari mu ibara rya kake n'umweru.

Umukecuru wicaye, ari hagati y'abana, hari undi muntu uri kubafotora, ari kubafotora bo bamureba, uyu umukecuru kandi ni we wenyine uri muri abo bana.

Abagore babiri bafite abana, abana babo bambaye ingofero. Bari kumwe n'umugore umwe ufite terefone imbere ye, arimo arabaganiriza. Uwo mugore ufite terefone afashe ku meza.

Abantu babiri bari gutanga ikiganiro, abo bantu babiri ni umugore n'umugabo, umugore afite mikoro ari kuvuga naho umugabo we ntabwo ari kuvuga, uwo mugore kandi afite amikoro mu ntoki.

Ahantu hateraniye abantu benshi, abantu babiri barahagaze abandi baricaye, abo bantu babiri bahagaze bari kuganira, umwe yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umutuku undi yambaye ikanzu idozwe mu gitenge.

Umugore wambaye amaherena y'umweru akaba yambaye na jire y'ubururu, ari kuvuga yicaranye n'abagore babiri ndetse n'umugabo umwe. Uwo mugabo yambaye ishati y'ubururu.

Umugore wicaye wambaye igitenge, akaba yambaye n'agapfukamunwa ahetse umwana, iruhande rw'uwo mugore hahagaze undi mwana, uwo mugore kandi akaba atetse igikoma.

Abantu babiri bari gutanga ikiganiro, harimo umugore hakabamo n'umugabo, umugore yambaye imyenda y'ubururu, afite mikoro mu ntoki. Naho umugabo we yambaye ijire y'umukara. Inyuma yabo hari ibyapa, byanditseho amagambo atandukanye, ari mu ibara ry'umukara.

Umusaza wambaye ingofero n'umukenyero w'umuhondo, wambaye n'ishati ya karakaro, afite icumu mu ntoki, iryo cumu, rifite ibara rya kacye, ndetse n'ibara ry'umukara.

Umugabo wambaye ipantaro ya kake, inkweto za shokora, n'ishati ya karokaro, akaba ahetse bage y'umukara mu mugongo, ari kwifotoza, iruhande rwe hari icyapa kiriho ikirangantego cy'igihugu n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara n'ayandi yanditse mu ibara ry'ubururu.

Abantu babiri umumama w'inzobe ndetse n'umugabo w'igikara, umumama w'inzobe yambaye imyenda y'ubururu akaba yambaye ga z'ubururu, akaba afite inshinge mu ntoki ari kuvura amenyo uwo mugabo w'igikara.

Indwara z'amenyo ni zimwe mu ndwara zishegesha cyane igice cy'umutwe. Rero iyo izo ndwara umuganga agiye kuzivura, yita ku isuku yazo, ndetse akambara ga igihe cyose agiye kuvura umurwayi.

Umwana waje kwivuza amenyo yambaye umupira w'umukara n'agapfukamunwa k'umutuku ari kuvurwa n'abaganga babiri bambaye amatabiririya yu'umweru n'udupfukamunwa tw'ubururu.

Umwana ufite umusatsi mwinshi yagiye kwivuza amenyo, umuganga uri kumuvura yambaye itaburiya y'umweru na ga z'icyatsi, afite icyuma mu ntoki.

Umuntu ufite umusatsi w'umukara, akaba yambaye amaherena, ari kumwe n'umuganga ufite inshinge mu ntoki, akaba yambaye na ga z'umweru. Akaba agiye kumuvura amenyo.

Umwana mutoya, wambaye agatambaro kariho ikirabyo mu mutwe ndetse akaba yambaye ikanzu n'agapira k'umweru. Afite uburoso bw'amenyo, ari koza amenyo ye.

Umugore mwiza, ufite umusatsi w'umukara, wambaye amaherena ndetse ufite n'amenyo y'umweru, yambaye isengeri y'umweru, akaba afite urudodo mu ntoki ndetse urwo rudodo ari kuricisha amenyo.

Umuntu ufite umusatsi mwiza, akagira n'amaso meza, akagira inzara nziza, n'amenyo meza, ari guseka, uyu muntu kandi yashyize intoki ebyiri ku munwa, arizo intoki z'igikumwe ndetse n'izikurikira igikumwe.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara miremire, ndetse wambaye n'amaherena y'umweru, yicaye ku ntebe, intebe na yo ifite ibara ry'umweru, yambaye imyenda y'ubururu, uwo mukobwa kandi afite indorerwamo ifite amabara y'umukara n'umweru n'icyatsi mu ntoki.

Umugabo uri kwa muganga, wicaye mu ntero zo kwa muganga, akaba afite agatambaro k'umweru mu gatuza, afite n'umusatsi muke ari guseka, uwo mugabo kandi imbere ye hari ibikoresho byo kwa muganga bifite ibara ry'umweru.

Umugabo w'inzobe ufite umusatsi muke ku mutwe, akaba afite n'ubwanwa buke, ari kwifotoza afite urudodo mu ntoki ndetse akaba ari kurushyira mu menyo, uyu mugabo kandi ari no guseka.

Abantu bari gusobanurira umunyeshuri bari kumusobanurira amenyo, inyuma y'abo bantu hari ikibaho, ikibaho cyanditseho amagambo n'ingwa y'umweru, muri abo bantu kandi harimo n'uwambaye itaburiya y'umweru.

Abantu babiri, umwe ni umukobwa ufite umusatsi w'umukara, akaba yambaye n'amaherena, ari kumwe na muganga ufite inshinge, akaba yambaye ga. Ari kumukura amenyo.

Amenyo yafotowe n'imashini zabugenewe zo kwa muganga, zirerekana amenyo y'umuntu uko ameze. Ayo menyo nta na rimwe ryavuyemo. Harimo ibijigo ndetse n'ubundi bwoko bw'amenyo.

Umukobwa w'imibiri yombi afite intoki ebyiri, akaba yaragiriye isuku amenyo ye akaba asa neza, amenyo ye ni umweru kubera yayagiriye isuku.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo umuganga ndetse n'umurwayi, muganga yambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse na ga y'umweru mu ntoki afite urushinge, naho umurwayi yambaye umupira urimo amabara y'umweru n'umukara.

Umugabo w'inzobe wambaye lunette, ari gutunga agatoki ku menyo, afite amenyo asa neza kandi afite n'ishinya y'umutuku. Uwo mugabo kandi yambaye n'umupira w'umweru.

Umuganga wambaye rinete mu gahanga n'agapfukamunwa ku munwa n'aga mu ntoki, uyu muganga yambaye n'itaburiya y'umweru ari gukura amenyo umwana wambaye agapira k'umutuku.

Abantu babiri bambaye amakote atandukanye bafite impapuro mu ntoki ndetse n'amakaramu, umwe ari kwandika ku rupapuro kandi yambaye impeta yambaye na rinete, undi afite urupapuro mu ntoki ariko ntabwo ari kwandika.

Umukobwa wambaye isengeri yumweru, akaba afite umusatsi mwinshi k'umutwe, afite uburoso bw'icyatsi ari kwiborosa amenyo, uwo mukobwa kandi afite amenyo y'umweru.

Mu kigo cy'amashuri kirimo amashuri menshi, ishuri turimo ririmo abana ndetse na mwarimu wabo. Abo bana bafite korogate mu ntoki bari kwifotoza. Abo bana harimo abambaye imyenda y'umuhondo n'abambaye imyenda y'ubururu.

Abantu batatu bari kuganira bambaye imipira y'umweru, muri abo bantu batatu harimo abasore babiri ndetse n'umukobwa umwe, uwo mukobwa afite imisatsi myinshi ku mutwe.

Abanyeshuri bambaye imyenda y'ubururu bafite uburaso bw'amenyo bufite amabara atandukanye, umwe afite uburoso bw'umuhondo, undi afite uburoso bw'icyatsi, undi afite uburoso bw'ubururu.

Abagabo babiri, umwe yambaye umupira w'umweru ndetse afite n'ubudodo mu ntoki. Hari n'ndi mugabo ari gusobanurira uwo mugabo ufite ubudodo mu ntoki uburyo ki yakoresha urudodo ari gukura iryinyo.

Umuganga wambaye itabu y'umweru, akaba yambaye inkweto z'umukara, ipantaro ndetse n'umupira w'umuhondo. Yambaye isaha y'umukara, akaba yicaye ku ntebe ifite ibara ry'icyatsi. Uwo muganga kandi ari guseka.

Muganga wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'isaha ku kuboko, ari guha amabwiriza umukecuru wambaye ishanete ukuntu azajya anywa imiti, uwo mukecuru afite ikirahure cy'amazi mu ntoki.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umusaza waje kwivuza ndetse na muganga, uwo musaza yambaye ishati ya kaki, naho uwo muganga yambaye itaburiya y'umweru, bafite igitabo mu ntoki.

Umusaza wambaye rinete ndetse n'umupira w'ubururu, uwo musaza yambaye n'ipantaro ya kacyi, yaje kwa muganga, umugore wambaye imyenda y'ubururu ari kumupima.

Abagabo babiri bari munzira bari kugenda baganira bafatanye ku rutugu, umugabo umwe yambaye ingofero ndetse n'isaha akaba yambaye ipantaro yumukara ndetse n'ingofero, umugabo wa kabiri ni muremure akaba asumba umugabo wa mbere.

Umumama ukikijwe n'abana batoya, abana bishimiye kuba bari kumwe na we. Abo bana harimo abana batoya, harimo ab'ingimbi, harimo abana b'abakobwa, hakabamo n'abana b'abahungu. Bicaye ku buriri.

Abagabo babiri bari gutembera, umwe yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara n'icupa ryamazi mu ntoki undi mugabo yambaye ishati y'umweru n'ipantaro irimo amabara y'umweru n'umukara, akaba afite n'umupira ku rutugu n'icupa rya mazi mu ntoki.

Umusaza ufite umusatsi w'imvi, wambaye rinete ndetse n'umupira w'umukara, ari kwa muganga ari guhabwa amabwiriza y'ukuntu azajya anywa imiti, muganga uri kumufasha yambaye imyenda y'umuhondo, imbere ya muganga hari ikayi n'ikirahure cy'amazi.

Abagore batatu bagiye kuboha, umwe yambaye ingofero irimo amabara y'ubururu, undi yambaye ingofero y'umweru n'ikote ry'umukara, akaba afite urudodo mu ntoki. Uri hagati yabo afite terefone mu ntoki, akaba yambaye na rinete.

Umukecuru ufite imvi mumutwe wambaye amaherena y'umweru, akaba yambaye umupira wumutuku. Arikuganira numusaza ufite imvi mumutwe, wambaye umupira w'ubururu, akaba yambaye nisaha yumukara.

Umusaza ufite imvi afite ibinini mu ntoki agiye kunywa imiti, ari kumwe n'umukecuru wambaye umupira w’umutuku. Imbere yabo hari ikirahure kirimo amazi n'agacupa k'umweru karimo imiti.

Umusaza yaje kwivuza, afite imbago mu ntoki ndetse yambaye n'umupira wa kacye, ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu, ndetse n'agapira k'umweru.

Umwana ufite umusatsi mukeya ku mutwe afite igipupe mu ntoki, akaba yambaye ishati ya karokaro, ateruwe n'umusaza ufite umusatsi w'imvi, wambaye ishati ya karokaro.

Umukecuru wambaye imyenda ya oranje, ndetse n'ingofero, yambaye n'amarinette ari gufashwa n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu, uwo muganga ari kureba uwo mukecuru mu maso.

Umukecuru ufite umusatsi w'imvi wambaye amaherena, yagiye muri siporo ari kumwe n'umugore ufite umusatsi w'umukara wambaye n'amaherena, uwo mugore yambaye isengeri y'ubururu.

Umusaza wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ikabutura y'umweru, hamwe n'umukecuru wambaye umupira w'umuhondo basuwe n'abana, bari guseka barishimye bicaye ku gitanda.

Umusaza n'umukecuru, umusore n'inkumi hamwe n'umwana bari kwifotoza, uwo musaza n'umukecuru bafite imvi mu mutwe naho uwo mukobwa akaba yambaye agakanzu.

Umusaza wambaye ishati y'umweru ufite n'umusatsi w'imvi yasuwe nabana be batanu, muri aba bana uko ari batanu harimo batatu b'abakobwa n'abandi babiri b'abahungu.

Umusaza wicaye mukagare ari kumwe n'umwana, uwo musaza yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi, ndetse uwo musaza yambaye na rinete. Uwo mwana n'uwo musaza bari gukina umukino.

Umugabo munini wambaye ishati y'ubururu n'agapfukamunwa k'icyatsi yicaye ku ntebe y'umweru arikumwe n'umugore wambaye imyenda y'cyatsi n'agapfukamunwa k'ubururu akaba afite ibisuko.

Umusaza wicaye wenyine, yambaye imyenda ya kaki, yifashe ku gahanga, ari gusoma ibitabo, iruhande rwe hari ikirahure cy'amazi, ibyo bitabo kandi biri ku meza.

Umukecuru ufite umusatsi w'imvi wambaye urunigi mu ijosi, afite intoki mu ntoki yambaye umukenyero, ari kumwe n'umusaza wambaye umukenyero ndetse akaba yambaye n'ingofero mu mutwe.

Umukecuru wambaye umupira urimo amabara y'umutuku n'umukara ndetse akaba yambaye n'ishaneti mu ijosi ari kumwe n'umusaza wambaye umupira w'umutuku ndetse na marinete bari kunywa imiti.

Umukecuru munini ufite umusatsi w'imvi, wambaye umupira w'ubururu, ipantaro y'umukara n'inkweto z'icyatsi, yicaye ku mukeka, ari gukora siporo, inyuma ye hari intebe zifite ibara ry'umuhondo.

Abantu bicaye bari kuganira, harimo abagabo n'abagore. Abo bantu kandi, harimo abagore bari kuboha ibyibo. Abo bantu harimo n'abambaye ingofero. Hakabamo n'umugabo wambaye umupira, w'ubururu.

Umukecuru ari kuganira n'umukobwa, uwo mukecuru yambaye amarinete ndetse n'amaherena, uwo mukobwa nawe yambaye amaherena akaba afite umusatsi mukeya ku mutwe, uwo mukecuru yishimye cyane ari kuganiriza uwo mukobwa.

Abantu babiri bigaragara ko bakuze cyane bari muri siporo, umugabo yambaye umupira usa umukara werurutse ndetse n'ipantaro y'umukara, na ho umugore we yambaye isaha ku kuboko.

Umumama ukuze wambaye amaherena ndetse n'ishati ya karokaro n'agakote k'ubururu, ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu ufite ibisuko. Uwo muganga yambaye isaha ku kuboko.

Umusaza wambaye lnette ufite ninvi kumutwe wambaye numupira wubururu yaje kwivuza kwa muganga ari gufashwa numuganga wambaye imyenda yubururu inyuma yuwo muganga harirumu umugore wambaye ishati y'umweru.

Mu ndwara z'uruhu, habaho n'indwara y'ibiheri. Iyo ndwara y'ibiheri, iza ku mubiri w'umuntu, ugasanga hariho utuntu tw'uduheri twinshi ku mubiri, aho usanga tuba tubyimbye. Hari igihe tuba tubyimbye turimo amaraso cyangwa amazi.

Interuro yanditse mu magambo y'umukara, munsi y'iyo nteruro hari imbonerahamwe. Iyo mbonerahamwe yanditse mu mabara atandukanye, ariyo umutuku, icyatsi n'ubururu. Iyo mbonerahamwe yanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Jeannette Kagame yambaye ishati y'ubururu, akaba yambaye na linete afite mikoro ari gutanga ikiganiro, imbere ye hari amagambo yavuze yanditse mu ibara rya oranje.

Umugabo ufite imvi, yambaye ikositimu y'umukara ndetse na karuvati y'umukara, ari gutanga ikiganiro, inyuma ye hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Umugore wambaye amaherena y'umweru ndetse n'agapira k'umutuku, iruhande rwe hari amagambo yavuze yerekeranye na Kovide Cumi n'Icyenda, ayo magambo yanditse mu ibara ry'umutuku.

Abantu bari mu nama bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku, imbere hicaye abagabo bambaye kositimu, hamwe n'umugabo umwe wambaye ishati y'umweru, abo bagabo kandi bambaye n'inkweto z'umukara.

Covid ni cyerezo cyayogoje isi mu minsi yashize. Kuri iyi shusho turabona abantu batatu bambaye udupfukamunwa tw'uubururu, kuri iyi ifoto kandi turabona amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Igishushanyo gishushanyijeho inyubako ya komvesheni. Icyo gishushanyo kandi gishushanyijeho umukobwa wambaye ijipo n'agapira. Kuri icyo gishushanyo handitseho n'amagambo ari mu ibara ry'umukara andi ari mu ibara ry'icyatsi.

Abana bicaye bambaye imipira y'umutuku bicaye ku ntebe z'umweru bari guhabwa ikiganiro, abantu bari kubaha ikiganiro harimo abantu bambaye imipira y'umutuku na'bandi bambaye amapantaro y'umukara, imbere yabo bana hari igishushanyo kiri mu mabara umutuku n'ubururu.

Abantu batandatu bari kwifotoza, harimo abagabo batatu n'abagore babiri n'umukobwa umwe, abo bagabo bose bambaye amakote y'umukara, inyuma y'abo bantu handitse amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Igishushanyo kiriho abantu babiri bambaye udupfukamunwa, umwe wicaye yambaye ipantaro y'umuhondo n'umupira w'ubururu. N'undi uhagaze wambaye itaburiya y'umweru. Iki gishushanyo kandi, kiriho amagambo yanditswe mu ibara ry'umuhondo, n'ayanditse mu ibara ry'umweru.

Umwana uryamye iruhande rwe handitse amagambo ari mu ibara ry'umweru, munsi y'ayo magambo hari igishushanyo cy'ubururu cyanditsemo amagambo atatu, ayo magambo atatu ari mu ibara ry'umweru.

Si ngombwa ko buri gihe raporo yandikwa mu magambo. N'aha ngaha dufite igishushanyo kiriho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, ari mu ibara ry'umukara nayanditse mu ibara ry'umweru. Igishushanyo kigiye kiriho imibare yerekana raporo y'ibyakozwe.

Kuva tariki ya makumyabiri n'esheshatu z'ukwa munani kugera tariki makumyabiri n'icyenda z'ukwa munani, mu mwaka wa bibiro na cumi n'icyenda. Muri hoteli ya Remigo habereye inama, aho muri iyo nama yitabiriwe n'abantu batandukanye. Hatanzwe ibiganiro kuri abo bantu. Abantu batanze ibiganiro ni abantu batatu.

Igishushanyo gishushanyijeho ibiziga, ibiziga bifite amabara atandukanye ari yo: oranje, icyatsi, ubururu, umuhondo, n'ubururu bwerurutse. Icyo gishushanyo kandi kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi cyerurutse n'amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi cyijimye. Iruhande rw'ayo magambo hari ifoto iriho amagambo yanditse mw'ibara ry'umweru hakabaho n'ikirangantego cy'igihugu.

Igishushanyo gifite ibara ry'ubururu, gishushanyijeho ikiganza ndetse n'inyuguti ebyiri, izo nyuguti ebyiri zishushanyije mu ibara ry'umweru, munsi y'izo nyuguti ebyiri hamwe n'icyo kiganza handitse amagambo atatu ari mu ibara ry'umweru.

Igishushanyo cyacu kiriho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'andi ari mu ibara ry'umukara. Hari amagambo kandi yanditse mu nyuguti ntoya n'andi yanditse mu nyuguti nkuru. Kuri icyo gishushanyo kandi dufiteho ifoto iriho umugore uteruye umwana, inyuma y'uwo mugore hakaba hari abanyeshuri. Icyo gishushanyo kandi hariho n'ikarita y'Afurika.

Amagambo y'ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe ubuvuzi, yanditse mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, ayo magambo kandi yanditse no mu ibara ry'umukara.

Abantu bari mu cyumba, bari mu nama, harimo abantu batandatu bari gutanga ikiganiro, abandi barakurikiye, inyuma y'abo bantu bari gutanga ikiganiro, hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'andi magambo ari mu ibara ry'umutuku n'umukara n'ubururu.

Igishushanyo kiriho amabara y'umweru, ubururu n'icyatsi. Cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'andi ari mu ibara ry'icyatsi. Iruhande rw'ayo magambo hashushanyijeho ikindi gishushanyo kiri mu mabara y'ubururu n'umukara.

Abantu bicaye n'abahagaze bose bari kwifotoza, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi n'andi ari mu ibara ry'umweru, icyo cyapa kandi kiriho Ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda.

Umugore wambaye umupira w'umweru n'agapfukamunwa k'umweru ndetse n'isaha mu kuboko yagiye kwiteza urushinge, muganga uri kumutera urushinge yambaye agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'umupira w'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bitatu, ibyo bitanda bishasheho amashuka afite ibara ry'icyatsi, muri icyo cyumba kandi harimo n'amarido afite ibara ry'ubururu.

Abantu bagiye kwivuza kwa muganga ari benshi, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, muri abo bantu bagiye kwivuza harimo umugore umwe witeze igitambaro mu mutwe akaba yambaye n'ikanzu y'umutuku, imbere yabo hari umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umutuku.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bitandukanye, ibyo bitanda bishasheho amashuka y'umweru ndetse n'ikuvurori y'ubururu, icyo cyumba kandi kirimo amarido y'umweru.

Inyubako yanditseho amagambo atanu, ayo magambo yanditse mu ibara ry'ubururu, iyo nyubako kandi ifite imiryango isize irangi ry'umweru, iyo nyubako kandi imbere yaho hari indabyo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda, icyo gitanda gishasheho ishuka, icyo cyumba kandi kirimo n'imashini muganga akoresha ari gusuzuma umurwayi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo'intebe zifite amabara atandukanye, hari intebe zifite ibara ry'umweru n'intebe zifite ibara ry'umuhondo. Muri izi ntebe kandi hari n'imashini bakoresha bavura kwa muganga. Izo mashini zifite utumenyetso tumwe tw'umutuku.

Icyumba kirimo ibitanda, ibyo bitanda bikaba bishasheho amashuka y'umweru, icyo cyumba kandi kirimo inzitiramibu z'umweru. Icyo cyumba kirimo n'amarido y'ubururu ndetse hakaba harimo n'umuntu wambaye agapfukamunwa k'umweru.

Abaganga bane bari muri labo, harimo abagabo babiri n'abakobwa babiri. Abo baganga bafite ibikoresho bakoresha muri labo. Imbere yabo hari impapuro z'isuku.

Iyubako yo kwa muganga aho ababyeyi babyarira habereye inama yahuje abantu batandukanye, harimo abagore, abagabo, ababikira, ndetse n'ababyeyi. Iyo nama rero yahuje abantu batumiwe harimo abambaye amapaji ndetse n'abandi.

Icyapa cy'Ibitaro bya Nyanza kiriho amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru n'ayandi yanditswe mu ibara ry'umuhondo. Uruhande rw'icyo cyapa hari geti iri mu ibara ry'ubururu. Kuri iyo geti hariho inyuguti ebyiri zanditswe mu mabara y'umweru.

Ku kigo nderabuzima cya gishweru hari abantu batanu, hakaba hari abagore batatu n'abagabo babiri muri aba bagore batatu umwe afite umwana abandi babiri nta bafite, muri abo bagabo babiri kandi umugabo umwe yambaye ingofero n'ipantaro y'umutuku undi umugabo yicaye ku ntebe iri imbere y'ikigo nderabuzima.

Inyubako igezweho, isize ibara ry'umutuku ku mabati ndetse ikaba ifite na parikingi. Imbere y'iyo nyubako hari Idarapo ry'Igihugu ndetse hakaba hari n'umugore uhetse umwana akaba afite n'umutaka.

Icyumba kirimo ibitanda Gifite ibara ry'umweru n'iry'ubururu, ibyo bitanda kandi bishasheho matola zifite ibara ry'icyatsi, iruhande rw'ibyo bitanda hagiye hari ibyuma biriho ibara ry'ubururu.

Ku kigo nderabuzima cya Matyazo hari guturuka abantu babiri, umwe yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, undi yambaye ibitenge, icyapa kiranga ikigo nderabuzima cya Matyazo gifite ibara ry'umweru n'umutuku, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Inyubako yubatse mu buryo bugezweho bwa etaje, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, iyi nyubako kandi imbere yayo hari jaride nziza ndetse irimo n'ibirabyo birebire cyane.

Abaganga bane bari muri labo bambaye amataburiya. Abo baganga bambaye amataburiya y'umweru ndetse na ga z'ubururu. Imbere yabo hari ibikoresho bakoresha muri labo ndetse hari n'impapuro z'isuku.

Inyubako isize irangi ry'umweru n'iry'umutuku, ifite parikingi nini. Harimo imodoka eshatu, ikagira icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ari mu ibara ry'umutuku n'ari mu ibara ry'umukara.

Icyumba kirimo intebe y'umukara, hakaba harimo n'imashini y'umukara. Harimo n'ibindi bikoresho bikoreshwa kwa muganga, bifite amabara atandukanye. Hari ibifite amabara y'icyatsi, amabara y'umweru, ndetse n'amabara y'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi babiri n'umuganga umwe, uwo muganga yambaye itaburiya y'umweru, ari kuganira n'umwe mu barwayi, uwo muganga ari kubaza uwo murwayi uko ameze.

Imbere y'inyubako hari indabyo, iruhande rw'izo ndabyo, hari icyapa. Icyo cyapa kiriho amabara atandukanye, ariyo icyatsi, ubururu ndetse n'umutuku, kuri icyo cyapa kandi hariho amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru.

Inzu bakiriwemo abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, iyo nzu kandi yubakishijwe amatafari.

Kwa muganga, usanga hari abantu bashinzwe umutekano, aho ukinjira bagusobanurira aho ugomba kwerekeza kugira ngo uhabwe serivise wifuza. Kwa muganga kandi, niho hantu usanga hamanitse amategeko n'amabwiriza ndetse na serivise batanga. Kwa muganga kandi, niho hantu usanga haganwa n'abantu benshi b'ingeri zose.

Inzu ababyeyi babyariramo inzugi zisize irangi ry'umweru, imbere y'iyo nzu hari abantu batatu bambaye imipira y'ubururu, kuri iyo nzu kandi handitse amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Umusaza wambaye ishati y'umutuku hamwe n'amarinete, yaje kwivuza ari kuganira na muganga, muganga ari kumubaza ibibazo, uwo muganga yambaye imyenda y'ubururu akaba afite imisatsi miremire.

Inyubako ishakaje amabati y'icyatsi, imbere yaho hari icyapa, icyo cyapa kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara n'andi yanditswe mu ibara ry'umweru, icyo cyapa kandi gifite amabara atandukanye; ari amabara y'umweru ndetse n'amabara y'umukara.

Mu byumba bimwe na bimwe byo kwa muganga, uzasangamo ibikoresho bihagije byifashishwa kugira ngo umurwayi yitabweho neza. Muri ibyo bikoresho rero, hari ibitanda byabugenewe, hakaba n'utubati dutuma abantu bategura ibintu byabo neza, ku buryo n'umurwaza ashobora kuba yabikamo ibyo bamugemuriye cyangwa n'ibindi bikoresho byiwe.

Amavuriro agezweho, usanga hari inzira zagenewe abafite ubumuga, aho umuntu wicaye mu kagare, ashobora kunyura yisanzuye kandi ameze neza. Kwa muganga kandi, niho hantu uzasanga hari isuku imeze neza, hateye indabyo z'amoko yose.

Mu byumba byo kwa muganga habamo n'icyumba bakoresha basuzumiramo umurwayi. Icyo cyumba rero habamo n'igitanda umurwayi ashobora kuryamaho igihe bari kumusuzuma. Muri icyo cyumba kandi habamo n'imashini muganga akoresha areba uko umurwayi arwaye.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo abaganga ndetse n'abantu baje kwikingiza. Abo baganga bambaye amatabiriya y'umweru bambaye n'udupfukamunwa tw'ubururu, nabo baje kwikingiza bambaye udupfukamunwa dutandukanye. Bamwe bambaye udupfukamunwa tw'ubururu harimo n'ufite ubumuga waje kwikingiza.

Farumasi ifite imiti itandukanye iri mu dukarito dufite amabara atandukanye, ari yo umutuku, ubururu n'umweru, iyi farumasi kandi yanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga gisize irangi ry'umuhondo na oranje ku isakaro, harimo intebe muri izo ntebe harimo intebe zirimo amabara y'umuhondo n'izirimo amabara y'ubururu.

Amavuriro menshi yo muri iki gihe, uba usanga yubatswe mu buryo bugezweho ari bwo bwa etaje kandi ubu usanga ayo mavuriro afite ibikoresho bihagije ndetse yubatse ahantu heza ku buryo umuntu ashobora kubona parikingi ndetse anafite isuku ihagije.

Mu byumba bimwe na bimwe byo kwa muganga, hari ibyumba usanga habamo umurwayi wenyine, aho nta murwaza aba akeneye. Kandi usanga nanone muri ibyo byumba, haba harimo ikoranabuhanga rihambaye, aho bakoresha imashini, kugira ngo umurwayi yitabweho neza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi benshi, hakaba harimo ibitanda byinshi, harimo umuganga, hakaba harimo n'umuntu uri gukora amasuku.

Ibitaro byo kwa Nyirinkwaya bifite inyubako ya etaje. Ibyo bitaro kandi mo imbere bifitemo akazu ka MTN. Imbere y'ibyo bitaro hari icyapa kibiranga. Icyo cyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Iruhande rw'inyubako, hari icyapa cy'umweru, cyanditseho amagambo ari mu mabara atandukanye, hari amagambo ari mu ibara ry'umutuku, hari n'amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Inyubako nziza igezweho ya etage, imbere yayo hari icyapa, icyapa gifite amabara y'umutuku n'amabara y'umweru. Cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'andi magambo ari mu ibara ry'umukara.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bitandukanye, ibyo bitanda akaba ari umweru, muri icyo cyumba kandi harimo n'inzitiramubu, icyo cyumba kandi kigiye kirimo amarido y'ubururu.

Imbere ya Centre de Sante ya Kigina hahagaze umugore, uwo mugore akaba ahetse umwana kandi akaba afite n'agatambaro k'umweru, kuri Centre ya Kigina handitse amagambo ari mu ibara ry'umutuku.

Ku kigo nderabuzima cya Shagasha kandi cy'amagambo ari mu ibara ry'ubururu. Ku nyubako y'ikigo nderabuzima cya Shagasha hafite amabati asize irangi ry'ubururu. Imbere y'ikigo nderabuzima cya Shagasha hicaye abantu babiri bafite abana batoya.

Umugore wambaye ikanzu idozwe mu gitenge, akaba yambaye n'ingofero y'umukara, ari kumwe n'umugabo wambaye imyenda y'ubururu, bakaba bari kuganira, inyuma y'uwo mugore hari inkwi.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi ni etaje. Muri etage harimo abantu bamwe bahagaze n'abandi bicaye, iyo nyubako kandi imbere yayo hari indabyo.

Abantu bagiye kwa muganga ari benshi, harimo abagabo, abagore, abakobwa n'abasore. Abantu bagiye kwa muganga kandi, harimo n'ufite imodoka y'umukara ndetse ifite n'ibara ry'umutuku.

Ku kigo nderabuzima cya gisenyi hateraniye abantu benshi, abagore ndetse n'abagabo, imbere y'ikigo nderabuzima cya gisenyi hari umugabo uri ku igare akaba ahetse umukobwa icyo, ikigo nderabuzima cya gisenyi gifite icyapa cyanditswe mu magambo y'umutuku.

Icyumba kirimo intebe zitandukanye harimo intebe z'umukara, hakaba intebe z'ubururu ndetse muri icyo cyumba hakaba harimo na televiziyo, icyo cyumba harimo n'ameza ndetse n'aho kwandika.

Icyumba kirimo umukobwa wambaye itaburiya y'umweru, akaba yambaye agapfukamunwa k'umukara, hamwe na rinete. Afite ibisuko birebire ari kureba kuri mashine.

Icyumba gifite inzugi z'ibirahure, ku muryango w'icyo cyumba handitseho amagambo abiri, ayo magambo abiri yanditswe mu ibara ry'umutuku, ibara ry'ubururu n'ibara ry'icyatsi harimo kandi n'ibara ry'umuhondo.

Turi kwa muganga aho icyumba turimo harimo intebe zifite ibara ry'ubururu, hakabamo n'igitanda gifite ibara ry'umweru, iki gitanda kandi gikikijwe n'igikoresho gifite ibara ry'ubururu.

Inyubako isize irangi ry'umuhondo iruhande rwayo hari ibyapa bitatu ibyo byapa biri mu ibara ry'umweru bikaba byanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'umuhondo.

Umugabo waje kwivuza wambaye rinete ari kumwe n'abaganga batatu hamwe n'umukobwa umwe, aba baganga batatu bambaye imyenda y'ubururu umwe afite ikaramu ari kwandika undi afite ikaramu arahagaze.

Abaganga bari muri labo, bari mu matsinda atatu; itsinda rimwe ririmo abaganga batanu, irindi tsinda ririmo abaganga batatu, naho irindi tsinda rikabamo abaganga babiri, abo baganga bose bambaye amataburiya y'umweru.

Inzu ababyeyi babyariramo isize irangi ry'umuhondo, naho amabati yayo akaba asize irangi ry'icyatsi, inzugi n'amadirishya byayo bikaba bisize irangi ry'icyatsi, iruhande rwayo hakaba hari umuntu wambaye itaburiya y'umweru.

Icyumba giteraniyemo abantu bari gufata inyigisho uri gutanga inyigisho yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru iruhande rw'uwo muntu uri gutanga inyigisho hicaye umugabo wambaye umupira w'umutuku.

Umuganga uri muri labo wambaye itaburiya y'umukara, imbere ye hakaba hari mashini ebyiri, ari kureba muri mashini, muri iyo mashini harimo igishushanyo, icyo gishushanyo gifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara.

Abantu batanu bari gufata ifoto y'urwibutso, ba bantu batanu harimo bambaye imyenda ifite ibara ry'umukara ndetse n'ifite ibara ry'umweru, abantu batanu kandi bahagaze imbere y'inyubako yubakishije amatafari, kuri iyo nyubako hari ibyapa byanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi

Kwa muganga ni ahantu hashobora kuganwa n'umuntu uwo ari we wese, yaba umwana cyangwa umuntu mukuru igihe cyose yumva atameze neza cyangwa arwaye. Rero ushobora kujya kwa muganga witwaje ibikoresho bitandukanye, ushobora kujyayo witwaje ibase igihe baguhaye ibitaro cyangwa igihe baguhaye kurara mu bitaro kugira ngo witabweho neza.

Umubyeyi wambaye imyenda irimo amabara y'ubururu n'umweru, yicaranye n'umwana wambaye udukweto tw'umweru, agakanzu k'umweru, uwo mwana ari gukoma mu mashyi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi n'abarwaza kikaba kirimo n'abaganga abaganga bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'udupfukamunwa hari n'abaganga batambaye udupfukamunwa muri iki cyumba kandi harimo n'ibitanda.

Umusore wagiye muri siporo wambaye umupira wumweru na ekuteri z'umweru n'isaha y'umukara, afite icupa mu ntoki, iryo cupa ririmo amazi ari kuyanywa.

Siporo ni ingenzi mu mubiri w'umuntu. Umukobwa uri gukora siporo yambaye ipantaro ndetse n'agapira. Ari kugorora imbavu ndetse akagorora n'amavi. Akagorora ndetse n'ibikanu.

Igishushanyo gishushanyijeho umuntu, uwo muntu akaba ashushanyije mu binini by'amoko atandukanye. Kuri icyo gishushanyo kandi hariho n'inshinge. Icyo gishushanyo gifite n'amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Siporo ni kimwe mu bintu bituma umuntu agira ubuzima bwiza, rero uko umuntu akora siporo kenshi bituma umubiri we ugenda ugororoka kandi akaba adashobora kurwara indwara zimwe na zimwe. Rero ushobora gukora siporo wambaye ibirenge bitewe n'ubwoko bwa siporo waba uri gukora.

Umugabo uri mu cyumba bakoreramo siporo, yambaye inkweto zirimo amabara y'umweru n'umutuku, akaba yambaye n'isaha irimo amabara y'umweru n'umukara. Yambaye n'ikabutura y'umweru.

Umuntu ukomeretse yari yagiye muri siporo, yahise ajya kwa muganga yitabwaho neza, aho yari yakomeretse bahashyira igipfuko, maze yicara ku gitanda, araruhuka, amera neza kandi igipfuko, yakigiriye isuku, akitaho neza.

Umugabo uri muri siporo yambaye umupira wumukara, akaba yambaye n'ipantaro, uwo mugabo yambaye n'udukomo ku maboko. Uwo mugabo kandi akaba afite icyuma mu ntoki ari gukoresha siporo.

Igishushanyo gishushanyijeho ibikoresho bigiye bitandukanye ari byo: umukasi, hakaba hariho n'ibikwasi, iki gishushanyo kandi kiriho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'andi ari mu ibara ry'umukara.

Umuntu uri muri siporo, afite ibisuko ku mutwe, akaba yambaye agasenge k'icyatsi. Yambaye n'agakabutura k'ubururu. Uwo muntu kandi, yambaye inkweto zifunze. Ari gukorera kuri tapi, ifite ibara ry'icyatsi.

Umuntu uhagaze ku rwego. Hasi ye hari umuntu wambaye imyenda y'ubururu akaba afite ikintu mu ntoki kiri mu ibara ry'umutuku. Inyuma yuwo muntu kandi hari undi mugabo wambaye agapfukamunwa n'ipantaro y'umukara. Hejuru y'uwo mugabo uhagaze ku rwego handitse amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Abantu babiri bagiye muri siporo, umusore n'umuhungu. Umusore yambaye imyenda yumukara yicaye ku ntebe, naho umukobwa yambaye ikabutura irimo amabara y'umweru n'umukara, iruhande rwabo hari ibikapu by'umukara.

Umugore yagiye muri siporo bigaragara ko abyibushye, afite imisatsi y'umukara ya menshi akaba yayihambirije akagozi kadasa umukara, umugore kandi ari kurambura amaboko cyane ari kwinanura.

Umugabo munini wambaye isengeri y'umukara n'inkweto z'umukara, yicaye hasi ari gukora siporo, inyuma y'uwo mugabo hari ibyatsi, ndetse n'aho yicaye hari ibyatsi.

Ishusho iriho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi, andi yanditse mu ibara ry'ubururu andi yanditse mu ibara ry'umweru, iyo shusho kandi iriho igishushanyo cyerekana Facebook n'ikindi cyerekana Youtube,

Abantu babiri bari muri siporo, umwe yambaye ikabutura y'umukara n'inkweto z'umukara, isaha y'umukara, ndetse n'umupira w'umutuku, undi yambaye ipantaro akaba yambaye umupira w'umukara, ariko wanditseho amagambo y'umweru, aba bantu bose bari muri siporo ariko bafite n'ikindi kintu mu ntoki bari kwifashisha bakora siporo.

Iyo umuntu yakoze siporo, aba yatakaje imbaraga nyinshi ndetse n'isukari nyinshi mu mubiri. Rero umuntu wakoze siporo akeneye kurya indyo yuzuye, harimo: ibyuyubaka umubiri, ibitera imbaraga, n'ibirinda indwara. Ubwo harimo amagi, ibishyimbo, imbuto, imboga, n'ibindi.

Umugabo muremure wambaye inkweto zifunze, akaba yambaye amasokisi y'umweru, yambaye ikabutura y'umukara n'isengeri y'umukara ndetse n'isaha y'umukara, ari gukora siporo.

Abana bari gukina imikino itandukanye harimo n'umukino wo gukina umupira w'amaboko. Umupira ufite ibara rya shokora. Aba bana bari gukina kandi harimo abana bambaye ikabutura, abambaye amapantaro ndetse n'abambaye imipira y'umutuku.

Igishushanyo kiriho umuntu hamwe na gurude, umuntu afite gurude mu ntoki, ari kunywa amazi ari muri iyo gurude, icyo gishushanyo kandi kiriho n'ibicu biri mu mabara y'ubururu ndetse n'amabara y'umweru.

Ibikapu bibiri bifite amabara y'umutuku n'umukara, kimwe kirafunze ikindi kirafunguye, igifunguye kirimo imiti y'amoko atandukanye, harimo imiti ifite ibara ry'ubururu n'ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umutuku.

Igishushanyo gishushanyijeho abantu babiri ndetse n'ikiganza. Hakaba hashushanyijeho n'ikimenyetso cy'umusaraba. Iki gishushanyo kandi kiriho amabara y'umutuku, icyatsi n'ubururu.

Abantu babiri, bagiye muri siporo. Umwe yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, undi yambara umupira w'umweru, n'ikabutura ya kake. Uwambaye umupira w'umweru n'ikabutura ya kake yavunitse, maze uwambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, amufasha gushyiraho igipfuko.

Igishushanyo gishushanyijeho inshinge ibinini ndetse n'andi magambo, ayo magambo hari ayaditse mu ibara ry'umweru, ayanditse mu ibara ry'icyatsi, igishushanyo kandi gifite n'umukandara.

Ushobora gukora siporo uri wenyine ariko ushobora no gukora siporo uri kumwe n'undi muntu, undi muntu akajya agufasha gukora masaje. Rero masaje ni uburyo bwo gukora siporo aho umuntu agufasha akugororera umubiri.

Abantu babiri bagiye muri siporo, umwe yambaye ikabutura irimo amabara y'umweru n'umutuku ndetse n'umupira w'umukara, undi yambaye umupira w'umukara n'ikabutura ya kacye, uwambaye umupira w'umukara n'ikabutura ya kacye ari gufasha uwambaye umupira w'umukara ndetse n'ikabutura irimo amabara y'umweru n'umutuku.

Umukobwa mwiza w'imisatsi miremire wambaye isengeri y'icyatsi ndetse n'ikabutura y'icyatsi n'inkweto z'icyatsi, ari muri siporo, ari wenyine, ari gukora siporo agorora amavi.

Umugore ufite imisatsi miremire, wambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umukara ari mu cyumba wenyine yicaye ku gitanda ari kwinanura, icyo gitanda gishasheho amashuka.

Umurwayi uri kwa muganga yambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba yambaye kandi n'umukandara w'umweru, ari gufashwa n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu.

Habaho uburyo bwinshi bwo gutuma umubiri umera neza, siporo rero ni kimwe muri ibyo bintu bishobora gutuma umubiri umera neza. Ushobora gukora siporo rero wambaye inkweto zifunze n'amasogisi, ushobora no gukora siporo wambaye ekuteri.

Muri siporo zikorwa harimo na siporo zo kugorora amavi rero ushobora gukora siporo wambaye inkweto zabugenewe ndetse n'imyenda yabugenewe ishobora kuba ikabutura cyangwa umupira ibyo byose rero ni ibyifashishwa kugirango ngo umuntu akore siporo neza.

Ishusho iriho umugabo wambaye ikabutura y'umukara n'isengeri irimo amabara y'umweru, kuri iyo shusho kandi harimo imboga n'imbuto, mu mbuto harimo amaronji ndetse na pome, n'aho mu mboga harimo karoti ndetse n'amashu.

Igishushanyo kiriho imipira, kasike ndetse n'amenyo, kasike iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umukara, umupira umwe uri mu ibara ry'umukara n'ibara ry'umweru, undi mupira uri mu ibara ry'umutuku ndetse n'uturongo tw'umukara, naho amenyo ye ni umweru.

Umugabo ufite ubwanwa afite isume ku rutugu, yambaye n'agapira k'umukara avuye muri siporo, afite gurude irimo amazi, ari kunywa amazi ari muri iyo gurude.

Umuntu uri gukora siporo, yambaye ipantaro y'umukara, akaba yambaye isengeri y'umukara. Uyu muntu kandi, yambaye inkweto zifunze, akaba yambaye ekuteri, imbere ye hakaba hari gurude y'amazi.

Imbuto z'amoko atandukanye ziri kumwe n'ibyuma, ibyo byuma bifite amabara y'umukara, naho izo mbuto zikagira amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu n'izindi zifite amabara y'umutuku, muri izo mbuto harimo imyembe n'amaroji.

Umukobwa uri muri siporo yambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umukara, uwo mukobwa yambaye amaherena afite gurude mu ntoki ari kunywa amazi ari muri iyo gurude.

Igihe umuntu avunikiye muri siporo, afite ibikoresho umuntu yagenda ahambiriza aho havunitse kugira ngo akomeze agabanyirizwe ububabare. Ibikoresho hari ibifite ibara ry'umutuku, ibara ry'umukara, ndetse n'ibara ry'ubururu.

Abantu bari muri siporo zitandukanye, iruhande rwabo handitse amagambo, ayo magambo yanditse mu mabara atandukanye, hari amagambo yanditse mu mabara y'umweru n'andi magambo yanditse mu ibara ry'umuhondo.

Umuntu wambaye ikabutura irimo amabara y'umweru, akaba yambaye n'isengeri y'umweru, yaravunitse, ari kwa muganga, ari imbere ya muganga wambaye imyenda y'ubururu ndetse akaba yambaye na ga z'umweru.

Yaryamye ku gitanda yiyoroshe amashuka y'umweru, ari kumwe na muganga wambaye agapfukamunwa k'ubururu ndetse akaba yambaye na ga. Uwo murwayi aryamye yubitse inda.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umutuku hamwe n'amarinete, yagiye muri siporo maze aravunika ajya kwa muganga. Ageze kwa muganga yitaweho n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru.

Umugabo uri muri siporo, yambaye umupira w'ubururu. Uwo mugabo, afite igipfuko ku maboko, akaba yambaye na ekuteri mu ijosi. Uwo mugabo afite gurude irimo amazi. Ari kuyanywa.

Igishushanyo gishushanyijeho ibishushanyo byinshi kiriho inzu intoki abantu batatu bari kumwe n'abandi babiri bari kumwe iki gishushanyo kandi kiriho n'umuntu uri koga cyanditseho n'amagambo yanditse mu mabara atandukanye ariyo umweru n'ubururu.

Mu kibuga abantu bakiniramo umupira, harimo abantu batandatu. Babiri bambaye amakabutura y'imikara ndetse n'imipira y'ubururu, abandi babiri bambaye amakabutura y'umukara n'imipira ya oranje. arimo umwe wavunitse, undi ari kumwunga. Muri icyo kibuga kandi harimo n'umupira bakoreshaga bakina.

Umukobwa uri muri siporo, afite umusatsi w'umukara, akaba yambaye isengeri. Yambaye ekuteri ndetse akaba afite gurude irimo amazi.

Umuhungu uri muri siporo wambaye ekuteri z'umweru n'inkweto z'umweru ndetse akaba yambaye isengeri y'umukara n'ipantaro y'umukara, ari gukora siporo yicaye iruhande rwe hari gurude y'umweru irimo amazi.

Iyi imiti iri mu ducupa dutandukanye hari ifite udufuniko tw'umweru yanditseho amagambo ari mui ibara ry'ubururu hari n'imiti iri mu ducupa dufite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru n'ubururu ndetse iruhande rw'iyo miti hari naga hari n'imiti iri mu dushashi.

Uducupa tw'umweru twanditseho amagambo ari mu mabara y'umutuku, umukara, umweru ndetse n'umuhondo, turimo imiti igiye itandukanye. Utwo ducupa dufite ingano zigiye zitandukanye.

Umuntu wicaye ku gitanda, wambaye ikabutura y'umukara n'isengeri y'umukara, yambaye urukweto rumwe hamwe nisogisi ry'umukara, yavunitse, ari gufashwa n'undi muntu wambaye imyenda y'umukara.

Umukobwa ari muri siporo, afite ibisuko, yambaye imyenda y'umukara, ipantaro y'umukara ndetse n'isengeri y'umukara, imbere ye hateretse gurude irimo amazi.

Abantu bari mu cyumba kimwe, bambaye ingofero zisa, abandi bambaye amakositimu atandukanye. Abo bantu bose bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, bakurikiye ikiganiro kuri televiziyo. Aho kandi bari muri icyo cyumba, harimo na mashini.

Umukobwa uri mu cyumba ari gukora siporo yambaye isengeri y'umukara, imbere y'uwo mukobwa hari imashini ifite ibara ry'umweru, uwo mukobwa yicaye ku gatapi, iruhande rw'uwo mukobwa hari icupa ririmo amazi.

Igishushanyo gishushanyijeho imiti kiriho imiti y'amoko atandukanye iyo miti iri mu mavase afite amabara atandukanye ari yo umukara umutuku umuhondo n'icyatsi icyo gishushanyo kandi cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Imiti iri mu bikoresho bitandukanye imwe iri mu macupa indi iri mu ikarito indi iri mu ishashi iyo miti kandi yanditseho amagambo mu mabara atandukanye hari iyanditseho mu magambo ari mu ibara ry'icyatsi indi iri mu ibara ry'umutuku indi iri mu ibara ry'ubururu.

Akabati karimo imiti iri mu ducupa dutandukanye; hari uducupa dufite imifuniko y'umweru, utundi tukagira imifuniko y'icyatsi. Inyuma y'ako kabati hahagaze umuntu wambaye umupira w'umweru.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, imbere ye hari ameza. Ameza ariho amacupa abiri arimo imiti. Ayo macupa abiri afite imifuniko y'umutuku. Inyuma'wo mugabo hari intebe z'umukara.

Umurima uteyemo imiti y'ibyatsi, muri iyo miti harimo igiti kimwe giteye ahantu heza kikaba kinabagarirwa, icyo giti gikikijwe n'ibyatsi bigiye bitandukanye.

Icupa rifite umufuniko w'umweru, rikaba rifite igishushanyo kiriho amabara atandukanye. Kiriho amabara y'umweru ndetse n'amabara y'ubururu. Hakaba hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru.

Akabuni k'umweru gafite umufuniko w'ubururu. Ako kabuni kanditseho amagambo, ayo magambo yanditse mu ibara ry'ubururu ndetse hakaba hashushanyijeho n'umuntu.

Imiti iri mu macupa atandukanye, hari amacupa y'umweru n'umuhondo, hakaba n'amacupa y'umukara n'umuhondo, akaba n'amacupa y'umweru n'umutuku, ndetse n'amacupa ari mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo.

Agacupa karimo imiti, gafite ibara ry'umweru. Kanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi n'andi magambo ari mu ibara ry'umuhondo. Ako gacupa kandi, gafite agafuniko k'umweru.

Agasahane k'umweru karimo ibyatsi, uruhande rw'ako gasahane hateretse uducupa tubiri turimo umuti w'umuhondo, uruhande rw'ako gasahane kandi hateye ibyatsi.

Icupa ry'umweru ririmo imiti rifite umufuniko w'umweru, rikaba ryanditseho amagambo atandukanye, iruhande rw'iryo cupa hari amaronji ndetse n'ubuki.

Icyatsi giteye ku butaka gifite amababi ndetse kikagira n'indabyo, ayo mababi yacyo afite ibara ry'icyatsi na ho izo ndabo zacyo zikagira amabara atandukanye harimo umutuku ndetse n'umuhondo.

Imiti iri mu majerekani abiri, mu ishashi imwe no mu ikarito imwe. Ayo majerekani afite amabara y'umuhondo, ashushanyijeho igikakarubamba, akaba yanditseho amagambo ari mui ibara ry'umutuku.

Amakarito atatu arimo imiti. Ayo makarito yanditseho amagambo ari mu mabara atandukanye. Hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, n'andi magambo yanditse mu ibara ry'umukara, n'andi magambo yanditse mu ibara ry'umutuku.

Imiti iri mu macupa afite amabara atandukanye hari amacupa y'umuhondo, amacupa y'umweru, n'amacupa arimo ibara ry'umweru n'icyatsi. Ayo macupa kandi yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu mu ibara ry'icyatsi.

Igisubizo kuri amibe. Icupa rifite ibara ry'umweru ririmo umuti. Iryo cupa ryanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi n'umutuku. Uwo muti ni wo wonyine ushobora guhangana n'amibe ku kigero cyo hejuru.

Imiti yoza amenyo iri mu ducupa dutandukanye. Utwo ducupa dushushanyijeho amagambo ari mu mabara y'icyatsi. Iruhande rw'ayo macupa hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara hamwe n'ijambo rimwe ryanditse mu ibara ry'icyatsi.

Mu nzu bacururizamo imiti y'amoko atandukanye, harimo umugabo waje kugura imiti, hakabamo n'umugore uri kuyigurisha. Muri iyo miti kandi iri mu macupa y'amoko atandukanye. Imwe ifite imifuniko y'umutuku indi ifite imifuniko y'umweru.

Akabuni gafite ibara ry'umuhondo, gafite umufuniko w'umutuku handitseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, ako kabuni kandi kari kumwe n'umuti w'igikakarubamba.

Icupa rifite ibara ry'icyatsi ryanditseho amagambo ari mui ibara ry'umuhondo. Iruhande rw'iryo cupa, hashushanyijeho igikakarubamba. Icyo gikakarubamba gishushanyije mu ibara ry'icyatsi.

Imiti ivura indwara z'uruhu iri mu ducupa dutandukanye, utwo ducupa twanditseho amagambo ari mu mabara y'icyatsi n'umuhondo, iruhande rw'ayo macupa hashushanyijeho abantu barwaye indwara z'uruhu.

Hagati y'igipangu cy'inzu ndetse n'inzu, hari icyatsi. Icyo cyatsi ni umuravumba. Gifite amababi menshi, ayo mababi yifashishwa ari kuvura indwara zitandukanye.

Uducupa twacu turimo imiti itandukanye. Uducupa dufite amabara y'umweru. Utundi dufite amabara y'umutuku. Uducupa twose turimo imiti ariko tumwe turimo imiti yamaze gutunganwa. Utundi turimo imiti ikiri gutunganwa.

Ikarito ifite ibara ry'umweru n'iry'umutuku, handitseho amagambo, ayo magambo ari mu mabara atandukanye, hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, n'andi magambo yanditse mu ibara ry'umutuku.

Imiti iri ahantu hamwe, ifite amabara atandukanye, hari ifite amabara y'umutuku, indi ikagira amabara ya kacye, iyi miti kandi iri ku dusahane tw'umukara, indi ikaba iri ku munzani.

Imiti y'ibyatsi y'amoko menshi iri ahantu hamwe, igiye ifite amababi atandukanye. Amababi amwe agiye abyibushye, andi mababi arananutse. Hagiye harimo n'amababi y'icyatsi kibisi, hakaba n'amababi y'umuhondo.

Icupa ririmo umuti iryo cupa rifite amabara atandukanye ariyo: umweru n'umutuku, iryo cupa kandi rishushanyijeho igikakarubamba, rikaba ryanditseho n'amagambo ari mu mabara y'umutuku n'umweru.

Amacupa arindwi, arimo imiti. Ayo macupa ari mu mabara atandukanye. Hari ari mu mabara y'icyatsi, amabara y'umutuku, amabara y'umukara bwerurutse, ndetse ayo macupa, agiye yanyanditseho amagambo. Hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, ayanditse mu ibara ry'umukara.

Igishushanyo gishushanyijeho icupa ririmo umuti, hakaba hariho n'amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku. Icyo gishushanyo kandi gishushanyijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'andi magambo yanditse mu ibara ry'umukara.

Icupa ririmo umuti riri mu ibara ry'umweru, rifite n'umuvuniko w'umweru ryanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi n'andi magambo ari mu ibara ry'umukara, andi magambo ari mu ibara ry'ubururu.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara iruhande rwe hari imiti, iruhande rw'uyu mugabo kandi hari amagambo yanditse mabara atandukanye, hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, n'andi magambo yanditse mu ibara ry'umutuku.

Igishushanyo gishushanyijeho in imiti iri mu dukoresho dutandukanye, hari iri mu ducupa tw'umweru n'iri mu tubuni tw'umuhondo, utwo ducupa tw'umweru twanditseho amagambo ari mu mabara atandukanye ari yo umutuku, umukara ndetse n'ubururu, utwo tubuni two turiho amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku.

Akabuni gafite ibara ry'ubururu n'umufuniko w'icyatsi kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku n'iry'ubururu, ako kabuni kandi gashushanyijeho igikakarubamba, iruhande rw'ako kabuni handitse amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Mu miti ivura indwara zimwe na zimwe, habamo n'imiti ihingwa mu mirima cyangwa ikaba yimejeje ku misozi. Iyo miti rero nayo yifashishwa mu kuvura indwara zimwe na zimwe kandi abantu bagakira neza.

Ibiti bibiri biteye ahantu hamwe, kimwe ni gitoya ikindi ni kinini, muri ibyo biti byose uko ari bibiri bigiye bifite amababi agiye atandukanye.

Agacupa karimo umuti wa serumu gafite ibara ry'umweru, gafite n'umufuniko w'ubururu, kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, ako gacupa gashushanyijeho ikimenyetso cy'umukara.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru, afite ibinini bitatu mu ntoki, akagira n'ikarito mu ntoki. Iyo karito yanditseho amagambo, ari mu ibara ry'icyatsi, iyo karito irasa umweru.

Umuti uri mu gacupa, ako gacupa kandi gafite ibara ry'ubururu. Ako gacupa handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'andi magambo ari mu ibara ry'umukara, ako gacupa kandi hashushanyijeho inyoni y'umweru.

Imiti iri mu ducupa dutandukanye kamwe ni kanini, akandi ni gato, agacupa kamwe kanditseho amagambo arimo ibara ry'icyatsi ndetse n'ari mu ibara rya shokora, akandi gacupa kanditseho amagambo arimo ibara rya shokora ndetse n'ibara ry'umukara.

Akabati karimo imiti y'amoko menshi, iri mu macupa atandukanye amacupa amwe afite imifuniko y'umuhondo andi macupa afite imifuniko y'umweru.

Umuti ukoze mu muravumba uri mu icupa rifite ibara rya shokora ndetse ukaba ufite umufuniko ufite ibara ry'umuhondo. Kuri iryo cupa hari icyapa cyanditseho umuravumba ndetse kikaba kiriho n'amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'ifoto y'umuravumba.

Amacupa abiri ari mu ibara ry'umuhondo, ashushanyijeho umuti w'igikakarubamba, ayo macupa yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, iruhande rw'ayo macupa hari ikirahure kirimo umuti, munsi y'ayo macupa hari amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo, ayandi akaba yanditse mu ibara ry'umukara.